Umugore uhagaze rwagati mu mazi ari gutemba, yadubitsemo ijeyerekani arunamye arimo kuvoma, umugabo uhagaze ku ruhande wambaye umupira w'umuhondo, arimo aroza igare.

Umugabo w'umuganga wambaye impuzankano y'umweru uri hagati y'abagore benshi kandi buri mugore akikiye umwana we, biragaragara ko ari kugenda asuzuma kugira ngo amenye imikurire n'imiterere y'abana.

Umugore uhagaze hagati mu murima yiteze igitambaro, arimo guseka ukuboko kwe kumwe yagufatishije ku giti, ndetse n'akana keza kambaye umupira w'umweru karimo guseka kahengetse umukwe gafatishije amaboko ya ku bibabi.

Abagabo batatu bicaye, umwe wambaye amadarubindi n'umugore umwe n'undi mugabo ubahagaze inyuma, bambaye amakarita y'akazi, imbere yabo hari imiti y'amoko atandukanye biragaragara ko ari abaganga.

Abana batatu bambaye imyenda itandukanye bari gukaraba intoki zabo ku mugezi, biragaragara ko bishimiye gukaraba intoki. Ni byiza gukaraba intoki kugira ngo umuntu agabanye imyanda myinshi ndetse no kwandura indwara zitandukanye.

Abantu bahagaze ndetse n'abandi bakeya bicaye, ni abagabo n'abagore bari kureba imbere, bari gukurikira cyane, biragaragara ko bari guhabwa amabwiriza y'ibyo bagomba gukora, bari kugaragara nk'aho ari abaganga.

Abantu benshi bahagaze ahantu hamwe, harimo abambaye impuzankano y'umweru, bari kureba imbere, biragaragara ko bari kwitegereza umuti utandukanye, inyuma yabo hari inzu ifite amarangi y'ubururu, igaragara nkaho ari kwa muganga.

Umugabo wizihiwe wambaye ikositimu ufite n'uruhara biragaragara ko ari umuzungu, imbere ye hahagaze abantu benshi bamwishimiye bari kumukomera mu mashyi, abagore n'abagabo bambaye impuzankano ndetse n'amakarita yabo mu ijosi.

Umukobwa wikenyeje igitenge, ashikamirije ku ijerekani ye arimo kuvoma amazi ku mugezi, inyuma ye hateye ibyatsi byiza cyane bitohagiye, bigaragara ko byitaweho kugira ngo bizifashishwe mu gukorwamo imiti ivura abarwayi.

Abantu benshi bahagaze ahantu hamwe, higanjemo abagabo bambaye amakositimu na karuvati, barishimye cyane, bari kureba imbere, iruhande rwabo hari ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Umugabo ufite uruhara wasetse yambaye ishati y'amaboko magufi ndetse n'ipantaro, aricaye yashikamirije ku kibuni cye, iruhande rwe hari umugezi, inyuma ye hari indabo ndetse n'ibindi byatsi bisa icyatsi.

Abantu benshi bicaye abagore n'abagabo bambaye impuzankano udupira tw'umweru hejuru, bari kureba imbere bateze amatwi biragaragara ko bari guhabwa amabwiriza abafasha mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze.

Abantu benshi bambaye impuzankano n'amakarita, bishimye cyane, bahagaze ahantu hamwe, harimo umugabo muremure w'umuzungu ufite imitsatsi, wambaye ikositimu y'umukara na karuvati ndetse n'ishati y'umweru.

Umwana mutoya wambaye iniforo y'ishuri, hasi yambaye ikabutura y'umutuku, hejuru yambaye ishati irimo amabara na karuvati, imbere ye hari ibase ari gukarabiramo, ukuboko kumwe yakuzamuye agufatisha ku nkokora, ukundi arakurambura.

Inyubako nziza isakajwe amabati y'umutuku, ifite irangi ry'ubururu, imbere yayo hicaye abantu ku ruziga bari kuganira, kandi buri wese afite igitabo mu ntoki ze, imbere yabo haparitse imodoka nziza.

Abantu benshi higanjemo abana, bahuriye ahantu hamwe baje kuvoma, hariho abafite utuboni, abandi bafite ibijerekani, umwana umwe ahagaze ku mugezi arimo aravoma.

Abagabo babiri bahagaze, umwe wambaye ijire undi yambaye ishati y'umweru barimo kuganira, imbere yabo hari abana benshi cyane babakurikiye bari kumva ibyo bari kuganira ni byo bari kubereka kugira ngo babifate mu mutwe.

Umuganga wambaye ishati y'umweru ndetse n'umumawicaye witeze igitambaro, ufashe umwana mu biganza, umuganga afite urushinge ari kurutera umwana imbere yabo hari ameza ariho imiti itandukanye.

Umwana w'umukobwa wambaye utwenda tugufiya uhagaze rwagati mu mazi wafashe ikibuni, arikukidubikamo bisa naho ari kuvoma ayo mazi ni bibi kuvoma amazi atemba cyangwa amazi mabi kuko abamo indwara nyinshi zitandukanye.

Abantu benshi imbere yabo hahagaze abaganga bari kugenda babahereza imiti ndetse babaha n'amabwiriza, inyuma yabo baganga hari umugabo wambaye ikositimu y'umukara ndetse n'ishati y'umweru, afite kamera mu ntoki ari kugenda afotora.

Abagabo benshi bakuze higanjemo abafite uruhara, bazengurutse ameza barizihiwe hari ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa barimo kuganira, bafite akanyamuneza ndetse n'ibyishimo byinshi.

Abantu benshi bicaye bigaragara nkaho bari mu nama bari gufata amahugurwa, harimo abagabo ndetse n'abagore ni ingeri zose basa nk'abakuze, biragaragara ko bakurikiye uri kubaha amahugurwa.

Umudamu uriguseka akikiye umwana yateretse indobo ku mugezi arimo kuvoma, akenyeye igitenge yambaye agapira k'umutuku biragaragara ko yishimye, ahantu hari harihitaruye cyane.

Abagore babiri bambaye imyenda itandukanye biteze ibitambaro ndetse n'umugabo wambaye ishati y'ubururu n'agapfukamunwa uhagaze hejuru, ari guterura umufuka biragaragara ko ari guterura imifuka irimo imiti.

Abagore babiri ndetse n'abagabo babiri bicaye ahantu hamwe imbere yabo hari ameza, ariho amacupa y'amazi, umugore umwe wambaye imyenda y'umukara ufite imisatsi igiye inyuma, afite mikoro ari kurebana na mugenzi we hari ibyo ari kumubwira.

Abagore bane bahagaze bikenyeje ibitenge barimo kuganira, umwe afashe ijekani mu ntoki ze abandi amajerekani yabo bayateretse ku mugezi, umugore uhagaze ku mugezi wambaye umupira w'umukara urimo gufungura amazi.

Umugezi uriho abantu benshi batandukanye abana n'abakuru bafite ibibuni bifite amabara y'umuhondo n'ayumweru, bari kureba inyuma bose hari ikintu kidasanzwe bari kureba.

Umugore ukikiye umwana urimo guseka, ndetse n’umuganga wambaye impuzankano y’umweru, wapfumuye amatwi, ufite imisatsi isutse, ari guha umwana umuti wambaye umupira w’umweru ndetse n'ingofero y’umuhondo.

Umugore ufite imisatsi wambaye amarinete yambaye n'agapfukamunwa, yambaye akajire inyuma y'ikanzu yambaye ga y'ubururu mukiganza cye, imbere ye hahagaze umudamu ufashe umwana mu kiganza cye, biragaragara ko ari umujyanama w'ubuzima agiye kumufasha kugira ngo amenye ikibazo umwana we afite.

Icyapa kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, icyatsi ndetse n'umuhondo, kiragaragaza uko imikurire ndetse n'imiterere y'abana bavutse uko bihagaze.

Umugore witeze igitambaro ndetse akenye igitenge, ukuboko kwe kumwe yakumanuye agufatisha ku bibero ukundi gufashe umwana we uhagaze hasi, imbere ye hateretse ijerereka, indobo ndetse n'ibasa.

Igishushanyo kiriho amagambo yanditse mu makorone, korone ya mbere iriho amagambo magufi iyindi korone ya kabiri iriho amagambo maremare yanditse mu nyuguti z'umukara, biragaragara ko ari amabwiriza y'ubuzima afasha mu kugirango umuntu yirinde.

Umwana w'umukobwa wasetse yambaye agashati ndetse n'agateteyi imbere ye hari ibase ndetse n'indobo irimo amazi yaretse ibiganza bye ari gukaraba intoki.

Ibiti byiza bimeze neza, bifite amabara y'icyatsi ndetse n'umuhondo, abana babiri umwe wambaye umupira w'amaboko magufi n'undi wambaye ishati y'ubururu, umwe ari gufungura umugezi, barimo kuvoma amazi.

Umuganga wambaye icyuma ku gahanga kimufasha gusuzuma, wambaye agapfukamunwa ndetse n'impuzankano y'umweru, afashe ikintu kimeze nk'icyuma mu ntoki, afashe ku bitugu by'umusaza wambaye ingofero ya kiyisiramu, inyuma yabo hahagaze umwana uri kubitegereza cyane.

Umwana wateze ibiganza bye byombi ku tiyo y'amazi urimo kuyanywa, inyuma ye hahagaze abantu, iruhande rwe hateretse intebe, si byiza gupfa kunywa amazi tubonye yose nk'uko tubibwirwa na muganga kuko amazi yanduye atera indwara zinyuranye.

Umuganga ufashe urushinge wambaye ga uri kurutera ku rutugu rw'umurwayi, wahafashe neza ndetse uri gukanda kugirango umuti winjiremo neza, kandi haragaragara ko hari amabara menshi atandukanye y'umweru.

Umugabo wafashe ku bitugu by'umugore wambaye ikoti ry'umukara bari kuganira n'umuganga wicaye imbere yabo wambaye itaburiya y'ubururu ufite igipapuro mu kiganza cye.

Umwana mutoya w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka nk'irindwi, wasutse imitsatsi, afashe icupa mu ntoki, ari gufungura amazi ku kigega cy'umukara, biragaragara ko afite inyota, ashaka kunywa amazi.

Icupa rifunikishije umufuniko w'umweru ndetse iruhande rwaryo hari inshinge nyinshi zamaze gushyirwamo umuti, zateguwe neza na muganga zirimo umuti ugomba guterwa umurwayi, kugira ngo bamuvure indwara.

Abantu benshi bahuriye hamwe barimo ingeri zitandukanye abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko, bambaye imyenda itandukanye barimo kuganira barizihiwe, hari umugabo wambaye ikarita y'akazi uri kuri terefone.

Abasore n'inkumi bahagaze ahantu hamwe bizihiwe barimo kuganira bambaye imipira y'ubururu n'amapantaro y'umukara, umusore umwe yahengetse ijosi bari kureba imbere bafashe ku cyapa kiri mu ibara ry'ubururu.

Abantu umunane bicaye kumeza amwe bari kuganira harimo abagabo n'abagore, umugabo umwe yambaye karuvati y'umukara n'ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, imbere yabo hari udukombe turimo icyayi, biragaragara ko ibintu bari kuganira babiziranyeho.

Umugore wicaye yambaye igitambaro cy'umweru, ari kumwe n'abandi bantu benshi bicaye aho baje gupimisha abana. Imbere yabo hari umujyanama w'ubuzima wambaye itaburiya, ku munzani hariho agakapu k'ubururu.

Umwana wambaye agashati k'ubururu afite umusatsi, afashe isabune mu biganza bye ari gukuba intoki ze, n'undi ufashe ijaga y'icyatsi ari kumusukira amazi.

Abana bari mu kigero kimwe bafunguye amazi y'umugezi bose bishimiye gukaraba bahurije hamwe ibiganza ku mugezi, hari abari kubura ukuntu bageraho biragaragara ko bose bifuza gukaraba intoki.

Abantu benshi bicaye higanjemo abagabo bambaye amashati biyogoshesheje, imbere yabo ku meza hari impapuro ndetse n'amacupa y'amazi biragaragara ko bari mu mahugurwa ndetse bayakurikiye n'umutima wabo wose.

Umugabo ufite uruhara, wicaye ashikamirije n'amaboko ye yombi ku ijerekani, ari guseka, iruhande rwe hari umugezi, bigaragara ko agiye kuvoma amazi yo gukoresha mu rugo.

Icyapa cy'ubururu, abagabo babiri bahagaze, umwe yambaye ikositimu y'umukara n'ishati y'umweru na karuvati n'undi yambaye ikositimu y'umukara na karuvati, afashe ibipapuro mu ntoki, bahezanyije amaboko barimo gusuhuzanya bari kuganira bishimye.

Abantu benshi higanjemo ababyeyi bakikiye abana babo ndetse n'umuganga wambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro y'umukara, arimo kwita ku mwana amuhereza umuti ufashwe na mama we.

Umuganga w'umugore wicaye, wambaye impuzankano y'umweru n'abandi bagore batatu bicaye imbere ye, umwe yamuhereje akaboko ari kumusuzuma kugira ngo arebe ikibazo afite.

Amakamyo abiri manini apakiye imizigo, ku ruhande hashushanyijeho utuntu tumeze nk'ibyatsi turi mu ibara ry'ubururu, ari kugenda ku muhanda wa kaburimbo.

Abana bane b'abanyeshuri bunamiye kimwe ku mugezi bari gukaraba n'undi ubahagaze inyuma barishimye cyane bari kurwanira gukaraba ndetse bose bari kureba imbere, hari ikintu kibatangaje cyo bari kureba imbere bambaye inkweto z'umukara ndetse n'amasogisi.

Umugore witandiye arikumwe n'umugabo wambaye ishati irimo amabara y'umukara, uwo mugabo afashe umuti ari kuwuha akana gatoya biragaragara ko bari gutanga ubuvuzi bw'ibanze ku mwana, ubuvuzi bw'ibanze ni ingenzi ku mwana kugira ngo turamire ubuzima bwe nk'uko muganga abidushishikariza.

Abantu barindwi bahagaze, abagore batatu ndetse n'abagabo bane, umugabo umwe ni munini cyane afashe terefone mu kiganza cye ari kureba imbere, biragaragara ko hari ikintu ari kwereka bagenzi be kidasanzwe, bose bagihanze amaso.

Umugore uri hagati y'abana bambaye udupira tw'umutukutuku, ari kugerageza kubahereza imbuto, inyuma ye hahagaze umugabo w'umusirikare ufite icupa uri kurihereza undi mukobwa bahagararanye wikenyeje umupira.

Ihuriro ry'abantu benshi bambaye ingofero z'umweru, udupira tw'umweru, abandi bambaye udupira tw'ubururu, bafashe igitambaro cyanditseho amagambo ya RBC ndetse bahagaze munsi y'igiti cy'inganzamarumbo.

Abana benshi bari ahantu hamwe, bishimye bizihiwe, umugabo uhagaze n'umugore we, umugore yambaye ikanzu y'amaboko magufi, umugabo yambaye ikositimu na karuvati ndetse n'ishati yumweru, n'umugore ukikiye umwana urimo guseka.

Ikirangantego cy'u Rwanda inyuguti eshatu ra iri mu ibara ry'ubururu, ba iri mu ibara ry'umuhondo ndetse na ca iri mu ibara ry'icyatsi. Umugabo wambaye ikositimu y'ubururu na karuvati n'ishati y'umweru afite uruhara ari kureba imbere.

Abantu benshi abagabo n'abagore n'abana bara ku mugezi umugore afashe icyumba cy'umugezi ari ku gikararaga umwana umwe afashe ijerekani ayiteretse ku mugezi arimo kuvoma amazi.

Abagabo n'abagore bahagaze ku murongo umwe harimo abazungu n'abirabura, abagabo bambaye amakositimu ndetse n'amakaruvati, bahanze amaso imbere, inyuma yabo hari igishushanyo kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo mu nyuguti z'umweru.

Icyapa cyiza cy'ubururu kiriho imirongo ishushanyije, icy'ikamyo y'umweru ijya kubumbira mu tuziga, munsi yayo hari imyaka, hagati hakabaho ikigereranyo ku ijana, akarongo ka mbere kariho mirongo itanu na gatanu ku ijana ku mwaka wa bibiri na cumi n'umunani, ahandi hari mirongo irindwi ku ijana ku mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda.

Umusore wambaye itaburiya y'umweru iruhande rwe hari abagore batatu bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'amakarita y'akazi, imbere ye hari umukecuru wunamye wagira ngo afite uburibwe, imbere yuwo muganga hari imiti y'amoko atandukanye.

Inzu ibiri ziteganye, zisakaje amabati y'ubururu, zubakishije amatafari ahiye, zifite inzugi ziteye irangi ry'ubururu, imbere yazo hari uruzitiro rwiza ruzitiriye, hagati hari amatafari arunzemo.

Abantu batatu bicaye imbere abagabo babiri n'umugore umwe n'abandi bantu bicaye mu bihande bibiri abagore n'abagabo bigaragara ko bateze amatwi, abo bicaye imbere hari ibyo bari kubabwira, buri imbere ya buri muntu hateretse icupa ry'amazi.

Ibara ryiza ry'ubururu ririho ikirango ndetse n'andi mabara atandukanye y'umuhondo, ubururu n'umutuku, umudamu uhagaze ufite imisatsi afashe mikoro mu kaboko ke kamwe akandi agafatishije ku gituza cye.

Umusore wambaye agapira k'umutuku n'ipantaro n'inkweto z'umukara, ari fumbase yegamiye igikuta gishaje cyane cy'umukara ari kureba imbere, hirya hari abandi bantu bahagaze impande y'imodoka.

Umwana w'umusore uri mu kigero cy'imyaka nka cumi n'irindwi aricaye ukuguru kwe kumwe yakurambuye ukundi araguhinya, amanura akaboko ke agafatisha ku kirenge cye yahinye. ari kureba imbere ibintu byiza.

Abantu benshi bambaye amakarita y'akazi, bishimye cyane, bari gukoma mu mashyi, bari kureba imbere, hagati yabo hari ameza ateretseho amacupa menshi y'amazi, harimo abirabura, abazungu, biragaragara ko gahunda barimo bose bayizi neza.

Abantu benshi, bicaye mu gacaca mu matsinda, barimo kuganira bambaye udupfukamunwa, imbere yabo haparitse imodoka nini cyane, iriho ibirango n'ibimenyetso bya RBC, hirya yayo hari igiti cy'inganzamarumbo.

Umugore wambaye ikanzu irimo amabara atandukanye umuhondo n'ubururu, ufite ikarita y'akazi mu ijosi ndetse ufite imisatsi wambaye na marinete, ufite agapapuro mu ntoki biragaragara ko hariho ikintu cya.

Agashushanyo keza gashushanyije mu ibara ry'icyatsi kameze nk'inzoka gafite hejuru akadomo k'umukara, amagambo manini yandikishije inyuguti y'umukara ndetse n'amagambo yandikishije inyuguti z'icyatsi.

Umupira mwiza, ufite ibara ryiganje ry'umweru, amaboko y'ubururu ndetse n'ikora ry'ubururu, mu mugongo handitsemo amagambo ndetse hashushanyijemo n'igihingwa gifite amabara atandukanye.

Umuntu umwe wambaye ikanzu y'umutuku ndetse n'ingofero ya toni wicaye ku ntebe, imbere ye hicaye umukobwa wambaye amarinete, ufite imisatsi idasutse, wambaye imyenda y'umukara ari kumufata ku kaboko, ari kugerageza kumva ukuntu amerewe.

Abantu benshi bicaye mu ntebe zo kwegamira, bari kureba imbere, hicaye abantu batandatu, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru, bari kuganira, bari kurebana barizihiwe cyane.

Abantu bicaye ku kumuzengunuko barimo kuganira, hagati yabo hahagaze abantu bane, abagore babiri ndetse n'abagabo babiri, bari kuganira barizihiwe bose bishimiye ibyo bari kuvugaho.

Igishushanyo kiriho imibare izamutse uhereye kuri kabiri ndetse n'imibare itambitse igaragaza umwaka, biragaragara ko ari ikigereranyo kigaragaza uburyo uburwayi ndetse n'impfu z'abantu bihagaze mu Rwanda.

Abantu bicaye ndetse n'abandi bahagaze inyuma yabo bari kureba imbere bakurikiye cyane, bambaye imyenda y'amabara atandukanye biragaragara ko bari guhabwa amabwiriza y'uko bafasha abantu kurwanya indwara zitandukanye.

Abana bari mu kigero kimwe, biyogoshesheje, bishimye cyane barimo guseka, biragaragara ko ari abanyeshuri, bambaye impuzankano, amakoruvati y'ubururu, bari kureba imbere, bishimiye ibyo bari kubwirwa.

Abantu benshi bibumbiye hamwe, harimo abaturage ndetse na Polisi, hari umudamu wambaye ipantaro y'umutuku n'ishati y'umweru, bari kureba imbere biragaragara ko bari guhabwa amabwiriza ku birebana n'ubuzima kugira ngo buri wese amenye uko yatanga ubutabazi bw'ibanze.

Umugabo w'igikara wambaye ishati y'ubururu, afite iminwa y'umutuku, afite amatama manini ku maso ye haratembaho amarira, amaso ye yaratukuye biragaragara ko afite uburwayi budasanzwe.

Igishushanyo kiriho amagambo yanditswe mu ibara ry'icyatsi hejuru ndetse no hagati ayanditse mu ibara ry'umutuku, iruhande rw'iburyo hari umubyeyi wambaye agapfukamunwa ndetse n'umupira w'umukara, biragaragara ko ari kwirinda indwara.

Abana benshi bahagaze ahantu hamwe mu kinani, urabona ko bari mu kigero kimwe, bari kureb’imbere, bari kuhareba nk'ikintu gitangaje. Bigaragara ko abana bambaye imyenda idafuze.

Umugore ushaje yicaye ku gatebe nta menyo afite, afite imvi, yambaye igitenge kirekire, imbere ye hateretse isafuriya iri ku mashyiga, afashe umwuko arimo gushigisha.

Icyapa kinini gishushanyije mu ibara ry'ubururu ndetse ku nguni zacyo hariho amabara atandukanye. Asa n'umweru ariko atari umweru werutse, hagati hari umugabo uri mu kiziga yambaye impuzankano biragaragara ko ari umuganga.

Umugabo ukuze wicaye ku muhanda yambaye ibirenge yambaye imyenda yatanyaguritse, ukuguru kwe kw'iburyo nta mwambaro uhari afite ibyumba bitandukanye mu biganza bye, biragaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Abana benshi bafite agahinda gakabije, umwe ari kurira yashyize ikiganza ku maso, bambaye imyenda itameshe biragaragara ko bababaye cyane bakeneye ubufasha, umwe yashyize ibiganza bye imbere.

Abasore batatu bahagatiye umukobwa, biragaragara ko bari kumwihutana bamujyana kwa muganga, uwo mukobwa arakanuye cyane biragaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, bari kugerageza kumushakira ubuvuzi bw'ibanze.

Inyuguti ya R iri mu ibara ry'ubururu, B iri mu ibara ry'umuhondo, C iri mu ibara ry'icyatsi, ikirangantego cy'u Rwanda, agakubo kari mu ibara ry'icyatsi ndetse n'amagambo yandikishije ibara ry'icyatsi, n'andi magambo yandikishije ibara rya kotoni.

Abana benshi bari ahantu hamwe bishimye bambaye imyenda y'amabara atandukanye, hari umwana uri imbere wasetse cyane warebye n'imbere cyane, biragaragara ko ari gukurikira cyane ibintu bari kubwirwa.

Umugore wicaye hasi munsi y'igiti ku biti, yikenyeje igitenge, yambaye umupira w'umuhondo, afite umusatsi mukeya, amaboko ye yayamanuye ayafatisha ku mavi, ari gutekereza cyane, biragaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umusore wambaye agapira k'umuhondo ufite ubwanwa ndetse n'umusatsi mukeya, arimo guseka, amenyo ye ni umweru dede arasa neza nk'uko muganga abitubwira, ni byiza koza amenyo yacu tubyitayeho kugira ngo dukuremo ibisigazwa by'ibiryo bituma amenyo yacu a

Umugabo wambaye umupira ugiye kuba umuhondo wakambije isura arimo kurira, amarira ari gutemba ku matama amaso ye yatukuye biragaragara ko afite ikibazo gikomeye iminwa ye yabaye umutukutuku cyane.

Umukecuru witeze igitambaro cy'umweru, wapfumuye amatwi, usa n'uwambaye linete, ushaje cyane, yambaye urunigi mu ijosi, hejuru ntabwo yambaye, biragaragara ko akuze cyane, hejuru ye hariho igishushanyo cy'ibyatsi bitandukanye.

Abantu bicaye ku murongo umwe umugabo umwe wipfumbatse ndetse n'abagore batatu, umugore umwe afite mikoro ari kureba imbere hari ibyo ari kuvuga, imbere yabo ku meza hateretse amacupa y'amazi bose bahanze amaso uwo mugore uri kuvuga.

Umuntu wicaye wambaye imyenda ishaje cyane ndetse n'ibikweto bicitse mu mutwe we yiteze igitambaro cy'icyatsi, hirya ye harunze ibintu by'amacupa n'amashashi, inyuma ye hari abantu benshi, biragaragara ko abo bantu bamushungereye.

Abantu benshi bicaye mucyumba aho buri wese ari gukora ibye, hari umugore wambaye impuzankano y'umweru ndetse n'ikarita y'akazi mu kiganza cye, afite ikaramu ndetse hari n'impapuro ziri imbere ye n'amacupa abiri y'amazi ahateretse.

Umugabo wambaye ingofero n'agakoti k'ikoboyi, ahetse n'igikapu. Yambaye n'isaha ku kuboko. Urunamye, arebye hasi, bigaragara ko asa n'ufite uburwayi bwo mu mutwe.

Igishushanyo kizengurutswe n'ibara ry'umutuku w'amararaso ndetse hariho igipande kimwe cy'ibara ry'umweru cyanditseho amagambo, umugore ufite mikoro wambaye ishati y'ubururu wambaye n'amarinet wasutse imisatsi, usa naho ari gutanga amatangazo.

Umugore wicaye ku gafomo wambaye igitenge ndetse n'ishati ifite amabara y'ikigina usa n'aho yumiwe, inyuma ye hari igikuta gishaje ndetse n'idirishya rikinguye uwo mudamu ari fumbase.

Umugore wishimye ufite imisatsi y'umukara yambaye agapira k'umweru arimo guseka mu biganza bye afashe umwana wambaye agapira k'umweru karimo uturonko uwo mwana ari guseka yarebye imbere cyane biragaragara ko ari ikintu ari kureba kidasanzwe.

Umwana wambaye agapira k'umweru ari kumwe n'umubyeyi we nawe wambaye agapira k'umweru, umubyeyi we yasutse imisatsi bazamuye ibiganza bafunga ibipfunsi bari guseka barishimye, bari kugaragaza amenyo yabo.

Abana benshi bateraniye hamwe bishimye cyane, buri wese afite agakombe k'amazi mu kiganza afashe na corogati, arimo kuborosa amenyo ye, kuborosa amenyo ni byiza cyane kuko bifasha.

Umugabo utambaye hejuru, ufite ubwanwa bwinshi arasamye, afite akantu bifashisha mu gusukura amenyo, arimo gusukura amenyo ye. Nkuko tubibwirwa na muganga, ni ingenzi nyuma yo kurya, ,gusukura amenyo yacu tugakuramo ibiryo biba byasigayemo.

Umusore uryamye ku gitanda, wambaye umupira w'umukara, aryamye agaramye, arasamye, umuganga wambaye udufantoki tw'ubururu, ari kumucomeka arwuma mu kanwa, ari gusuzuma amenyo ye kugira ngo arebe ikibazo afite.

Umuganga wambaye impuzankano y'umweru ndetse n'udufashantoki tw'umweru, wagaramishije umurwayi amukoza utwuma dusuzuma ukuntu amenyo ahagaze mu kanwa k'umuntu, uwo murwayi aragaramye amaso ye ayarebesheje hejuru.

Umusore wambaye agapira k'umweru, wishimye cyane, urimo guseka. Biragaragara ko amenyo ye ameze neza yayogeje. Koza amenyo nyuma yo kurya, ni byiza cyane kugira ngo turinde amenyo yacu kwangirika no gufatwa n'indwara zinyuranye.

Umurwayi wambaye imyenda y'icyatsi, uryamye, afite imisatsi, yipfumuje amatwi, arasamye, imbere ye hari umuganga wambaye impuzankano ndetse n'uturindantoki, wakojeje utwuma dukura amenyo mu kanwa ke.

Abana bicaye mwishuri bishimye cyane bambaye amashati y'umuhondo ndetse n'imyenda ya kaki, bazamuye bose amaboko yabo yombi, buri kaboko ka buri mwana karimo uburoso bwifashishwa mu gukuba amenyo.

iIbiganza by'abantu babiri bicaye, bafite agashushanyo kariho ibara ry'umutuku, kagaragaza nko mu kanwa h'umuntu bari kugenda bareba imiterere y'amenyo. Biragaragara ko ari abaganga b'amenyo, bari gusuzuma uburyo wavuramo amenyo.

Abakobwa babiri bicaye umwe yambaye ikoti ry'ubururu undi yambaye ikoti ry'umutuku wambariye k'umukara, imbere yabo hari akameza arambuye igitambaro cy'ubururu, umukobwa umwe afite ikaramu mu ntoki ari kugenda asoma ku gipapuro, undi yafashe ibipapuro mu kiganza cye arimo guse.

Umuntu wasamye wafatishije urutoki ku menyo ndetse n'umuganga wambaye ga z'ubururu wafashe icyuma yifashisha mu gusuzuma iryinyo ry'umurwayi, biragaragara ko ari kureba imiterere y'amenyo' yumurwayi.

Abana bambaye impuzankano, hejuru bambaye amashati, hasi bambaye imyenda y'umukara, bose bafite uburoso mu kanwa kabo bari kuborosa, bari kurebana kandi urabona ko babyishimiye bari kubikora babikunze.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'agapfukamunwa ku karevuro, ufashe ku bitugu by'umwana uru kumwereka uburyo amenyo mu kanwa k'umuntu aba ateye. Inyuma yabo hahagaze abantu batatu begamiye ikibaho.

Umusore wakaraze imisatsi mu mpande arahogosha, yambaye agapira k'umweru yazamuye amaboko afunga ibipfunsi, arimo guseka amenyo ye n'umweru arasa neza.

Umuntu wishimye uriguseka yafashe nyangufi nyirazo y'ukuboko kw'iburyo n'iy'ukw'ibumoso ndetse na mukubitarukoko, arazihuza azengurukisha umunwa we. Biragaragara ko yishimye afite akanyamuneza.

Umusore wambaye agapira k'umweru yasetse cyane afite umusatsi mukeya, ni inzobe, ibiganza bye yabifatishije ku munwa we, amenyo ye ari hanze aragaragara neza ni umweru.

Icyumba giteguye neza kirimo ikintu kimeze nk'intebe cyo kwicaramo n'aho gufata n'aho kwegamira, cyifashishwa n'abaganga mu gusuzuma indwara zinyuranye ndetse hakurya hari na sikirini igaragariraho ibisubizo uko imiterere y'umurwayi imeze.

Abantu bishimye bazamuye ibiganza byabo mu kirere, bahagaze ahantu mu kinani bazengurutswe n'ibyatsi by'amabara atandukanye, harimo ay'umuhondo ndetse n'icyatsi. Urabona ko bizihiwe n’ibyo barimo gukora.

Abagore babiri, umwe arakuze afite imvi z'umweru, yambaye amalinete n'agashati k'umweru, undi afite imisatsi, aracyari mutoya, yambaye agapira k'amaboko maremare, imbere yabo hari imboga n'imbuto zinyuranye.

Umugore ukuze arahagaze, yipfumuje amatwi, nta musatsi, afite yambaye umupira ujya gusa umbukara ndetse yambariyemo n'agapira k'amaboko magufiya gasa ubururu, afite ikirahure cy'amazi mu kiganza kimwe ndetse ikindi afashemo umuti.

Umugabo ukuze ufite uruhara ahagaze ku twuma tubiri yambaye ikoti ry'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, ahagararanye n'umuganga w'umukobwa w'umuzungu wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara ari kugerageza kumuha amabwiriza.

Umukecuru ushaje ufite imvi wambaye umupira w'umweru wishimye cyane urimo guseka, afashe isahane iriho imiti itandukanye ndetse n'ifuka mu ntoki ze biragaragara ko ari umuganga.

Umusaza ufite imvi wambaye ishati y’umweru n’ipantaro y’umukara, ufashe ibyo kurya mu kiganza ari kumwe n'utwana twe tubiri dufite natwo ibyokurya. Akana kamwe gafite icupa ry’amazi mu kiganza cyako.

Umugabo ufite ubwanwa bwinshi bw'imvi ndetse ufite uruhara ari kumwe n'umukecuru ufite imvi wambaye akantu k'ubururu, ufashe urupapuro mu kiganza biragaragara ko barimo kuganira, iruhande rwabo ku meza hateretse ikirahure cy'amazi.

Abantu bakuze cyane bishimye cyane, harimo umugore wambaye isengeri y'umweru, yateruye akuma n'ikiganza cye kimwe, gafite ibara rya oranje, abandi bahagaze inyuma ye nabo bazamuye ibiganza byabo barizihiwe.

Abagabo n’abagore bari mu kigero kimwe, bishimye bari kuganira urabona ko bahuje urugwiro. Bar’ahantu munsi y’igiti bari kuganira, imbere yabo har’umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi ndetse wambaye n’agatiriningi, uri kuganira n’umugabo wambaye ishati nziza imukwiye ufashe akagare.

Umubyeyi witeze igitambaro cy'umukara, wambaye amarinete, yambaye umupira w'umutuku, inyuma ye hari umukobwa w'umuganga wamufatishije ikiganza mu gatuza, bigaragara nkaho bari kuganira bishimanye barimo guseka.

Umugabo ushaje cyane ufite agasahani karih’utuntu, ari kurebana n’umugore w’umuzungu ufite imvi z’umweru, ndetse inyuma y’uwo mugabo, har’umusore wambaye amarinette, wambaye n'ikarita y'akazi biragaragara ko ari umuganga ushinzwe kuganiriza abantu bafite ibibazo byo mu mutwe.

Umukecuru wambaye ikanzu y’umuhondo, ufite imisatsi igiye inyuma mu mugongo, yambaye amarinette, afite umuti mu kiganza cye ari kuwusuka agiye kuwunywa.

Umugabo ufite uruhara ndetse n'ubwanwa bwinshi bw'imvi, ari kumwe n'umukobwa wishimye cyane ufite imisatsi igiye mu mugongo wambaye ishati y'ubururu, ari kumuhereza imiti, umugabo afashe ikirahure mu kiganza cye.

Umugabo n'umugore bari mu kigero kimwe, umwe yambaye ishati irimo amabara y'umutuku undi yambaye ishati y'umweru, bose bafite imvi z'umweru bafashe icupa ry'umuti mu kiganza cyabo bari gusoma ibyanditseho.

Abagabo babiri bambaye imyenda y'umweru hejuru, no hasi bakaba bambaye amatiriningi y'umukara, umwe afite icupa ry'amazi. Undi yafunze igipfunsi, arimo guseka. Biragaragara ko bari muri siporo, kandi bishimye.

Abagore babiri bari kugenda mumuhanda, umwe yambaye turinkingi y'ubururu ifite utubara tw'umweru, undi yambaye umupira w'amaboko maremare yiteze igitambaro cy'umutuku, amaboko yabo bayashyize imbere barimo kugenda, iruhande rwabo hari ibiti binini by'inganzamarumbo.

Umusaza wicaye mu kagare, yambaye umupira wa kaki ndetse n'ikoti, afite imvi nyinshi, ari kureba imbere, amaboko ye yamanuye ayafatisha ku bibero, asunitswe n'umukobwa wambaye impuzankano y'umweru, ufite imisatsi imanutse.

Umusaza ushaje cyane uri mu myaka nka za mirongo icyenda ufite ubwanwa bwinshi, yicaye mu ibase bari kumukarabya biragaragara ko akuze cyane, kandi uri kumukarabya ari kugenda abikora neza.

Umugore wicaye, wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agapira k'ubururu, ufite imitsatsi iguye mu mugongo. Aricaye, yamanuye ibiganza bye byombi abikoza ku mano, arambuye akaguru kamwe, biragaragara ko ari gukora siporo.

Abantu batandatu bari ahantu hamwe, babiri baricaye bahinnye amavi, abandi batatu bararyamye barambirije, umwe yarambuye ikiganza agikoza ku mavi y'abicaye, barishimye cyane barimo guseka, umugore umwe afite imisatsi igiye inyuma.

Umugabo wishimye ufite imvi wambaye ishati irimo amabara y'umutuku, afashe isahani y'umweru mu kiganza cye irimo ibiryo by'amoko atandukanye, ari gufatisha ikiyiko ibindi biryo kuruhande.

Umugabo uhagaze ufatishije amaboko yombi ku twuma dutandukanye, iruhande rwe hahagaze umugore wambaye impuzankano yubururu uri kugenda amugira inama y'ibintu yakora, biragaragara ko ari kumufasha kugira ngo ubuzima bwe bugende neza.

yIapa kiriho amagambo yanditswe mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ayanditswe mu ibara ry'umukara, hirya iruhande ibumoso bw'icyo gishushanyo hari umuntu umugabo wambaye ishati y'ubururu urimo guseka.

Abagore n'abagabo bicaye bari kureba imbere, imbere yabo hicaye abagabo n'abagore bari kubagezaho ibintu bitandukanye birebana n'ubuzima, bose bateze amatwi barakurikiye cyane urabona ko bari mu kigero cy'abakuze.

Ukuguru k'umuntu biragaragara ko ari ukuguru kurwaye kuko kuriho ibiheri bitandukanye byinshi cyane, biragaragara ko uku ukuguru k'umuntu kurwaye. Ni byiza kuba wagize uburwayi nk'ubu kwihutira kwa muganga akagusuzuma akareba ikibazo icyo wagize, kugira ngo uhabwe ubuvuzi bw'ibanze.

Urubyiruko rufite ibyapa bibiri rwambaye udupira tw'umweru ndetse hasi bambaye amapantaro y'umukara, bari muri gahunda yo gushishikariza abantu kugira ubuzima bwiza ndetse no kwisuzumisha. Biragaragara ko ari ibintu byateguwe kandi bameze neza.

iIcyapa kiriho amagambo atandukanye amwe ari mu ibara ry'umuhondo, andi ari mu ibara ry'umutuku, iruhande rwacyo ruguru iburyo hari igishushanyo cy'umwana n'umukobwa barimo kuganira barimo gusuzuma utuntu.

Umusore wambaye ishati y'ubururu, yambaye agapfukamunwa, afite umusatsi mukeya, yahinnye akaboko arakarambura, umuganga uri kumutera urushinge wambaye ingofero n'itaburiya y'umweru ndetse n'ijire y'umuhondo.

Igishushanyo kiri kiriho ibara ry'ubururu, ndetse n'umugore uhagaze ku ruhande wambaye impuzankano yo kwa muganga, ingofero y'ubururu, ndetse n'agapfukamunwa kari kuka revero, yazamuye ikiganza afunga igipfunsi.

Abaganga bambaye impuzankano, bambaye uturindantoki, udupfukamunwa ndetse n'ingofero, bahagaze ahantu hamwe barimo kuganira kugira ngo barebe icyo bakora kugira ngo bavure abarwayi neza.

Abantu benshi bicaye abagore n'abagabo, imbere yabo hicaye abandi bantu bari kurebana, bari kubaha amabwiriza y'ibintu bitandukanye, bateze amatwi kandi ku ntebe ya buri muntu hateretse icupa ry’amazi.

Ibara ryiza ry'ubururu, inyuguti ya H ishushanyije mu ibara ry'umweru, ndetse n'ikiganza gishushanyije, n'inyuguti ya R ishushanyije mu ibara ry'umweru, n'amagambo helifu pipo Rwanda, yanditse mu ibara ry'umweru, biteye amabengeza.

Abaganga babiri bafashe urushinge mu ntoki, bari gusuzuma umurwayi, bambaye udupfukamunwa ndetse bambaye n'impuzankano yo kwa muganga y'ubururu, bari gusuzuma bakoresheje urushinge.

Umugabo uhagaze wambaye ingofero ndetse n'amadarubindi afashe igipapuro mu ntoki ze cyanditseho banki posi veserini akisesi nawu bigaragara ko ari kwamagana uburwayi bwa ma.

Abantu bizihiwe cyane, harimo umwana wambaye agapira k'umweru n'umugabo wambaye agapira k'umweru, umudamu wambaye amarinete n'umugabo ufite uruhara, barimo kureba imbere yabo ibintu byiza, barizihiwe barishimye cyane.

Ishusho nziza y'umwana urimo guseka, ufite akantu mu ntoki, wiyogoshesheje umusatsi ntiyawumaraho. Yambaye umupira w’icyatsi, inyuma ye har’akarabo gafite ibara ry’umuhondo, biragaragara ko ari mu cyumba cyo kwa muganga ari umurwayi.

Icyapa kiriho amagambo yanditswe mu ibara ry'umutuku ndetse nari mu ibara ry'umukara kiriho umukobwa mwiza ufite imisatsi iri mu mugongo wambaye ishati y'umutuku ndetse wambaye n'amaherena ufite iminwa iriho rabero.

Abagabo batatu n'abagore batatu bahagaze ku murongo umwe barimo kwifotoza barizihiwe cyane, abagabo bambaye amakositimu, umwe yambaye na karuvati, abagore bambaye amakanzu, umugore umwe yambaye ikanzu y'umuhondo.

Igishushanyo cyiza cy'ubururu, imbere yacyo hariho igishushanyo kiri mu ibara ry'umuhondo, cyanditseho amagambo ashishikariza abantu kwiga ibirebana n'imibonano mpuzabitsina. Kwiga ibirebana n'imibonano mpuzabitsina ni ingenzi kugira ngo umuntu amenye uko ubuzima bwe bw'imyororokere buhagaze.

Abantu benshi bicaye barimo kuganira barareba imbere yabo hicaye abantu batatu umugabo umwe n'abagore babiri bambaye amakarita mu ijosi yabo, barimo kuganira kandi barizihiwe cyane ibyo bari kuganiraho barabiziranye.

Umugabo umwe wambaye ikositimu y'umukara ndetse n'ishati y'umweru uri gusuhuzanya n'umumansera umwe, iruhande rwabo hahagaze abandi bamansera babiri biragaragara ko ibyo bari kuganira babiziranye kandi bishimye.

Abantu batandatu bicaye imbere, harimo umugore umwe n'abagabo batanu, bambaye amakositimu, imbere yabo hicaye abantu benshi babateze amatwi bari kubaha amabwiriza arebana n'ubuzima, inyuma yabo hariho igishushanyo kigiye kishushanywaho amafoto y'abantu.

Igishushanyo kiri mu ibara ry'umutuku kiriho umugore ufite mikoro wambaye amadarubindi wipfumuje amatwi ye ndetse wasutse imisatsi wambaye ishati y'ubururu uri nkutanga amabwiriza arebana n'ubuvuzi bwo mu mutwe.

Icyapa cyiza kiri mu ibara ry'umutuku kiriho amagambo yanditse mu nyuguti y'umweru n'ayanditse mu nyuguti y'umukara, iruhande rwacyo hepfo ku ruhande rw'ibumoso hariho umugabo wambaye ishati y'umweru uri guseka, biragaragara ko iri itangazo ryatanzwe kugira ngo rifashe abantu mu buzima.

Umugabo n'umugore bahagaze bafashe icyapa cyanditseho kwisuzumisha igituntu kuko kiravurwa kigakira inyuma yabo hari ibendera biragaragara yuko ari kwa muganga ari abaganga kandi bashaka gutanga inama z'uko twakwisuzumisha tukanivuza igituntu kuko ni indwara ivurwa igakira.

Inyubako nziza igeretse igaragara neza rwose, ifite amabara y'umuhondo ndetse n'igice kimwe kiriho ibara ry'umukara. Biragaragara ko ari inyubako nziza y'ibitaro, hari imbere yayo amapave ku muhanda w'imbere yayo ndetse na jaride nziza.

Umugore wambaye igiteyiteyi cy'ubururu uryamye ku gitanda, iruhande rwe hahagaze umugabo n'umugore bari kumusuzuma umwe afashe ku mutwe undi afashe ku kaboko bari kureba ikibazo afite.

Inyubako nziza igeretse isakaje amabati y'umutuku imbere yayo haparitse imodoka, hino hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, biragaragara ko ari inzu yo kwa muganga yifashishwa mu gusuzuma no kuvura abarwayi.

Inyubako itangaje yubatswe mu buryo bw'uruziga, ifite amabara agiye gusa na kaki, ndetse n'indi nyubako iri ku ruhande isakaje amabati y'umutuku, ifite amabara y'umuhondo, imbere yayo hari amapave, ndetse na jaride nziza, ifite agacaca keza.

Icyumba cyiza giteguye hasi urabona ko hariho amakaro ku nkingi zacyo hari ibara ry'umweru, ndetse kirimo ameza n'intebe zo kwegamiraho, hari imashini ni aho bakirira abarwayi kwa muganga.

Inyubako nziza yo kwa muganga ifite umuryango ufunguye urebyemo imbere harimo ibitanda byabarwayi ndetse n'inyubako nziza ifite amakaro hasi ku ruhande hari akantu k'ubururu ko bakandaho iyo bari gukingura ndetse ifite n'aho bakiriza amatara ifite amabara y'umweru mu mpande.

Icyumba cyiza cyo kwa muganga giteguye neza kirimo udutanda bicaraho bakanegamira, twifashisha mu gusuzuma umurwayi igihe arwaye, kugira ngo hamenyekane icyakorwa kugira ngo avurwe.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku cyanditseho ikigo nderabuzima cya Matyazo, iruhande rwacyo hari uruzitiro ndetse n'umuhanda urimo umugore n'umukobwa barimo kugenda, inyuma yabo hari inzu nziza isakaje amabati y'ubururu.

Ibyuma bishinze byubatse neza ndetse ahabanza biri mumabara y'ubururu, hagati biri mumabara y'umuhondo, mo imbere biri mumabara y'ubururu, ni ibyuma byubatse neza biragaragara ko ari ahantu hakorerwa siporo.

Abagore babiri n'umugabo umwe bambaye umwenda w'impuzankano w'umweru ndetse na ga mu ntoki zabo, bari kureba ubushakashatsi barimo gukora biragaragara ko ari abaganga, bari gusuzuma imiti itandukanye.

Inyubako nziza iteye amabengeza imbere yayo hari icyapa cyanditseho hosipito kuruwadesi biragaragara ko ari ahantu hivurizwa n'abantu ni inyubako yateguwe ifite inkingi z'ubururu ndetse ku rugi rwaho hari ibara ry'umukara.

Inzu nziza ziteye amabengeza, zisakaje amabati y'umutuku, zifite amabara y'umweru ndetse n'umuhondo, ziri ahantu heza, imbere yazo haparitse amamodoka menshi, ameze neza afite amabara meza.

Umusore uryamye ku gitanda wambaye ingofero y'umukara n'agapfukamunwa k'umukara, yambaye agapira k'amaboko magufi, n'ipantaro y'umukara, yahereje akaboko umuganga w'umugore wambaye itaburiya y'umweru, ufite imisatsi, wambaye n'agapfukamunwa, ari gusuzuma akaboko k'uwo musore kugira ngo arebe ikibazo gafite.

Icyumba giteguye neza kirimo aho kwicara no kwegamira kirimo sikirini ndetse n'ibikoresho byifashishwa n'abaganga, mu gusuzuma abarwayi ndetse no kubavura indwara zitandukanye.

Inzu nziza isakaje amabati y'umutuku, imbere yayo hari abantu benshi b'ingeri zitandukanye, ku muryango wayo haparitse igare ryicayeho abantu babiri, umusore n'umugabo, bambaye imyenda y'ubururu.

Icyumba cyiza cy'inyubako kirimo ibitambaro by'ubururu ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, biragaragara ko ari ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zinyuranye, gifite amabara y'umweru ndetse n'andi y'umuhondo.

ahantu mu rugo hicaye umugabo wambaye impuzankano y'abaganga, imyenda y'ubururu, imbere ye hicaye umukecuru wambaye igiteteyi witeze igitambaro, barimo kuganira biragaragara ko umukecuru ari gusobanurira umuganga uko ubuzima bwe buhagaze.

Inzu nziza isakaje amabati y'umutuku ifite irangi ry'umuhondo iruhande rwayo hari uruzitiro ruzitiye ruririmo ibara ry'umuhondo inyuma yayo hari inzu yubatse neza muburyo bw'ikizeru ifite amarangi ya kaki.

Inzu nziza yubatse neza, ifite icyuma giteguye neza kirimo amarido ndetse n'intebe zo kwicaraho n'ibindi bikoresho byateguwe neza biri ku murongo byifashishwa n'abaganga mu gusuzuma no kuvura abarwayi.

Umuganga wicaye wambaye impuzankano yo kwa muganga, afite igitabo cy'ubururu, mu kiganza ni umudamu yasutse imisatsi, imbere ye hicaye umurwayi w'umudamu, biragaragara ko ari kumubaza uko ubuzima bwe bumeze.

Umugabo uryamye ku gitanda, wambaye ipantaro y'umuhondo, ishati y'amaboko magufi, yambaye agapfukamunwa, iruhande rwe hahagaze umuganga wambaye agapfukamunwa n'impuzankano y'umweru, ari kumusuzuma, haruguru yabo hari umuganga uhagaze, ufite imisatsi, uri kuganiriza umurwayi uryamye ku gitanda.

Umugabo ukuze wambaye ishati y’umutuku, yambaye amarinete, afite imvi ari kuganira n’umukobwa wambaye impuzankano yo kwa muganga y’ubururu ufite imisatsi, bari kuganira bizihiwe cyane ari kumusobanurira ibirebana n’ubuzima.

Umuganga wambaye impuzankano y'umweru ufite imisatsi igwa inyuma mu mugongo yambaye amarinete ndetse n'agapfukamunwa yipfumuje amatwi, ari kuri iyo mashini ari gusuzuma imiterere kugira ngo arebe uko uburwayi bw'abantu buhagaze.

Inyubako zisakaje amabati y'ubururu, hirya hariyin isakaje amabati y'umutuku ndetse hari n'ibigega by'umukara. Izo nzu zubakishije amatafari ahiye, hari n'ubusitani bwiza. Hakaba handitseho ngo isange wani sitopu senta, Remera Rukoma.

Icyumba cyiza giteguye kiriho amakaro, hakurya iruhande hari ibara ry'umukara ndetse hino hari ibara ry'umweru, kirimo ibikoresho bitandukanye, bifite amabara y'umuhondo ndetse n'ibyuma binyuranye byifashishwa n'abaganga mu gusuzuma no kuvura indwara zitandukanye.

Inyubako nziza igeretse yitaruye, imbere yayo haparitse amamodoka, iyo nyubako ku nkingi zayo n'umuhondo ifite ibirahure by'umweru biragaragara ko ari ibitaro.

Inzu nini biragaragara yuko ari inzu y'ibitaro ifite inzugi zifite amabara y'umutuku, ndetse no hasi hayo hari amabara menshi atandukanye arimo umutuku ujya kuba ikigina ndetse biragaragara ko harimo n'ibikoresho byo kwa muganga.

Icyumba giteguye neza kirimo ibintu by'amoko yose, harimo imashini zifite amabara atandukanye, ndetse n'ibyapa biriho ibirango byinshi bitandukanye, bigaragara ko ari ahantu hatunganyirizwa imiti.

Icyumba cyiza cyo kwa muganga giteguye neza gifite ahantu hamwe hafite ibara ry'umukara n'ahandi hafite ibara ry'umweru, kirimo udutanda twicarwaho n'abarwayi n'ibindi bikoresho byifashishwa n'abaganga mu gusuzuma no kuvura indwara.

Inyubako nziza iri mu mabara atandukanye, imbere yayo hahagaze abagabo batatu ndetse n'imodoka, iyo nyubako ifite amabara y'umuhondo ndetse n'ay'ubururu, biragaragara ko ari inzu y'ibitaro ivura, ikanavurizwamo n'abarwayi.

Inzu nziza zubatse ku muzenguko, zisakaje amabati y'ubururu, zifite inkingi z'umuhondo, imbere hari icyapa kiriho amabara y'umutuku, icyatsi n'ubururu, iruhande hari igiti cy'inganzamarumbu cyakuze cyane.

Inyubako nziza iriho icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, bifite amabara atandukanye, y'ubururu ndetse n'umuhondo n'umweru, biragaragara ko ari icyumba cyateguwe neza kandi cyiteguye kwakira abarwayi.

Icyumba kiza cyo kwa muganga giteguye neza kiriho ikintu kimeze nk'intebe gifite aho kwegamira ndetse n'aho gufata kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'indi ntebe y'umukara iteretse hirya ku ruhande, biragaragara ko ari aho muganga asuzumira abarwayi.

Icyumba cyiza cyo kwa muganga giteguye neza, hari icyuma cy'ubururu ndetse n'agatanda kari mu ibara ry'umukara ko kuryamaho, hari ibyuma bihanitse byifashishwa na muganga gusuzuma indwara.

Inyubako nziza isakaje amabati y'ubururu, yubakishije amatafari ahiye, ifite igisenge gifite ibara ry'umweru, ibirahure mu ibara ry'umweru, ndetse ifite hanze yayo umuhanda mwiza, urimo amapave.

Umurwayi w'umusore, wicaye, yambaye isengeri y'umweru, afite agasatsi gakeya, umuganga uhagaze, wambaye twa ekuteri mu ijosi rye, yambaye umupira w'amaboko magufi ndetse n'ishati y'umweru, yambaye n'uturindantoki, ari gutunganya umuti kugirango abashe kuwutera umurwayi.

Icyumba cyiza giteguye neza kiri kugaragara neza kiriho ibitanda biriho matora zirimo umwenda w'ubururu, biragaragara ko ari icyumba giteguwe neza aho abarwayi barwarira kwa muganga.

Icyumba cyiza cyo kwa muganga giteguye neza, gifite hasi amakaro ndetse n'irangi ry'umweru, hakuno hari irangi ry'umukara, cyicayemo abaganga bambaye impuzankano y'umweru, barimo kuganira bareba umuti wafasha kuvura abarwayi.

Inyubako nini yitaruye isakaje amabati y'umutuku ndetse ifite amarangi y'umutuku biragaragara ko hatuje cyane hagati imbere yayo hari ikigega isa n'inyubako yo kwa muganga.

Inyubako nziza iteye amabengeza ifite amabara y'umuhondo, imbere yayo hari abantu benshi bambaye imyenda y'ubururu, hanze yiyo nzu haparitse imodoka nziza biragaragara ko ari inyubako y'ibitaro.

Icyumba cyiza giteguye neza cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye bifite amabara anyuranye icyatsi, umutuku n'umuhondo, harimo n'ibindi byifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zinyuranye.

Icyumba giteguye neza gifite amakaro hasi ndetse n'inkingi z'umweru, imbere hari akantu gashushanyije neza kameze nka kare kanditseho resepusheni, hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga mu gusuzuma abarwayi.

Umukobwa ufite imisatsi igiye inyuma mu mugongo wambaye impuzankano y'ubururu, afashe kumurwayi ari kumusuzuma ari kureba ukuntu amerewe, inyuma ye hari imashini yifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Inyubako nziza isakaje amabati y'umutuku, ifite inkingi z'umweru, izengunutse hagati hariho ikibuga kirimo umucaca, imbere y'iyo nyubako iburyo hahagaze abantu batatu.

Inyubako nziza yubatse mu buryo butangaje ifite inkingi zitandukanye, imbere yayo hari abagabo babiri, umwe yambaye itaburiya, undi yambaye ishati n'ipantaro y'umukara biragaragara ko ari kwa muganga.

Inyubako nziza yo kwa muganga ifite ibyuma bitandukanye byifashishwa mu gusuzuma indwara, aho umurwayi yicara ku ntebe akegama bakamucomeka ku kintu gituma asuzumwa umubiri we wose ndetse na sikirini itanga ibisubizo by'umurwayi urimo gusuzumwa.

Inyubako nziza isakaje amabati y'umutuku bakunda kwita yagategura, imbere yayo hari amapave ndetse imbere y'iyo nyubako hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda. Iyo nyubako hejuru mu gisenge hari ibara ry'umweru ndetse hasi hari ibara ry'umukara. Biragaragara ko ari inyubako yo kwa muganga.

Icyumba kiza cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa n'abaganga mu gusuzuma indwara zitandukanye, bifite amabara atandukanye icyatsi, ubururu ndetse n'umuhondo bitondetse neza.

Icyumba cyiza cyo kwa muganga giteguye neza kirimo amabara menshi atandukanye umweru ndetse n'ubururu, abaganga bahagaze bari kuganira bambaye imyenda y'umweru ndetse n'udupfukamunwa n'uturindantoki.

Icyumba kiza cyo kwa muganga gifite hasi amabara y'ubururu kirimo imashini isikana umubiri w'umuntu, ikamenya ubuzima bwe uko buhagaze ndetse n'ibyuma byifashishwa na muganga mu gusuzuma no kumenya uburwayi bw'umurwayi.

Ahantu heza hateguye neza hariho ibintu by'amabara atandukanye, hariho kimwe gishushanyije nko mu gikeri gifite amabara y'icyatsi, umutuku ndetse n'umuhondo, imbere y'aho hari intebe zipanze neza ndetse hakurya hari andi mabara menshi atandukanye y'umuhondo n'icyatsi.

Umuganga w'umugore wambaye agapfukamunwa ndetse wa n'impuzankano, uri gusuzuma umwana w'umukobwa wambaye ishati y'umweru, ari kumusuzuma ku kaboko ke, ari kureba ibibazo bitandukanye kaba gafite, umukobwa yambaye, yicaye ku ntebe y'umweru.

Inzu y'ibitaro isakaje amabati y'ubururu ndetse ifite ibara ry'ubururu ku ruhande rwa ruguru. Imbere yayo hahagaze abantu batatu begeranye ndetse n'undi uhagaze, ku ruhande hari n'imodoka ihaparitse. Inyuma yaho har’indi nzu nini cyane isakaje amabati y'ubururu, mbese biragaragara ko ar’inyubako y'ibitaro bikuru.

Inyubako nziza yo kwa muganga, irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, hari umunzani bapimiraho ibiro by'abarwayi, hari n'ibindi bikoresho byifashishwa n'abaganga mu kuvura abarwayi.

Inzu nziza yitaruye isakaje amabati y'ubururu hasi ifite amarangi y'umuhondo ndetse n'ibirahure bifite amabara y'icyatsi, biragaragara ko ari ahantu hatujwe hatunganyirizwa ibintu, biranagaragara ko ari no kwa muganga.

Icyumba cyiza cyo kwa muganga, kiriho agatanda basuzumiraho, kari mu ibara ry'umutuku, intebe bicaraho ifite n'aho kwegama, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa na muganga mu gusuzuma umurwayi. Ni icyumba giteguye neza, aho buri kimwe cyose kiri ku muronko wacyo.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye neza, hari ameza ateretseho amacupa y'imiti afite ibara ry'umuhondo, hari n'udutebe duteretse neza dupanze ku murongo mwiza.

Inzu nziza yubatse neza, igeretse, ifiteho amabara y'umutuku ndetse n'icyapa imbere yayo, haparitse amamodoka menshi cyane y'amoko atandukanye ndetse n'abantu batatu bari kugenda, bari mu mutaka.

Inzu nziza yubatse neza, iteye neza harimo amakaro ndetse hari amacupa y'amoko menshi atandukanye arimo imiti ndetse n'amakarito afite amabara y'ubururu n'umutuku n'umukara.

Abantu benshi, abagabo n'abagore higanjemo abambaye impuzankano y'icyatsi, bose bambaye udupfukamunwa, bari hanze y'inyubako isakaje amabati y'ubururu, ifite amabara y'umutuku.

Inzu nziza yubakishije amatafari ahiye, imbere yayo hari icyapa cyanditseho Isange wani sitopu senta, umuryango wayo urakinguye iragaragara neza ifite ibirahure byiza by'umweru.

Icyumba cyiza cyo kwa muganga giteguye neza kirimo n'amarido gifite ibara ry'umweru ku ruhande, kirimo agatanda umurwayi aryamaho ndetse na sikirini itanga ibisubizo igihe muganga arimo kumusuzuma.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ndetse no mu gusuzuma abarwayi, hari igikoresho cyiza kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'insinga zicometse zifashishwa na muganga mu gufata amakuru y'umurwayi amaze gusuzuma.

Abaganga batatu ndetse n'abarwayi babiri, umuganga umwe w'umugore yafashe akaboko k'umurwayi ari kumusuzuma naho undi muganga aricaye, ari kuganiriza undi murwayi w'umugore kugira ngo yumve uko ubuzima bwe buhagaze ndetse ari kugerageza no kumwandikira imiti.

Umusore w'igihagararo wambaye isengeri wiyogoshesheje umusatsi ntiyawumaraho, afite gurude mu kiganza cye arigotomera amazi, kunywa amazi nkuko tubibwirwa na muganga, ni ingenzi mu buzima bwacu kuko igice kigize umubiri w'umuntu kimwe kibamo amaraso ikindi kikagirwa n'amazi.

Ibyuma byinshi bifite amabara y'umukara, umudamu wicaye yambaye agasengeri k'umweru, umusore uhagaze wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara ndetse n'agapfukamunwa k'umukara. Gukora siporo ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo umubiri wacu ubashe gukora neza.

Imbuto zinyuranye ndetse hari n'umutobe uri mu kirahure w'umuhondo aya marongi inanasi ndetse n'urunyanya, byifashishwa iyo umuntu amaze gukora siporo kugira ngo umubiri wongere usubirane isukari.

Abantu benshi bari ahantu hamwe ndetse umugore uri guterura umwana uryamye hasi, n'umuganga umuhagaze iruhande wambaye itaburiya y'umweru, uri kugerageza kumufasha kugira ngo amuhe ubutabazi bw'ibanze.

Umusore w'igikara, wambaye umupira w'umukara, afashe mukiganza cye icupa ry'amazi ari kuyanywa, nkuko tubibwirwa na muganga ni byiza kunywa ritiro eshatu z'amazi ku munsi kugirango igifu n'umubiri w'umuntu bibashe gukora neza.

Umudamu ufite imisatsi yigiye inyuma mu mugongo yambaye agapfukamunwa ndetse n'umupira w'umukara, yambaye n'isaha ku kuboko afashe akaboko k'umurwayi arimo kumusuzuma no kumuzirika bande.

Umugabo wambaye isengeri wasobanyije amaboko yombi ufite ubwanwa, biragaragara ko ari muri siporo, gukora siporo ni ingenzi mu buzima bwacu kandi buri umwe wese nk'uko muganga abidushishikariza yakora siporo kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza n'ubugingo buhoraho buzira indwara.

Umuntu wicaye wambaye imyenda migufi ndetse n'umuganga ufashe ku mavi y'uwo murwayi wicaye, biragaragara ko arikusuzuma y'ivi ry'uwo muntu igaragara nkaho ifite ikibazo.

Ibyuma byifashishwa muri siporo, ndetse n'imbuto zitandukanye amaronji, inyanya, ndetse hateretse n'icupa ririmo amazi, biragaragara ko ar'ibyifashishwa nyuma y'uko umuntu amaze gukora siporo.

Umusore wambaye iserengeri ndetse n'ikabutura yamanuye amaboko ye yombi ayafatisha ku itako rye ry'iburyo ari muri siporo, siporo ni ingenzi ku buzima bwa buri umwe wese niyo mpamvu mu buzima bwacu tugomba kwimakaza gukora siporo.

Umuntu uhagaze wambaye agakabutura k'umukara, ku mavi ye haragaragara ku kuguru kwe kumwe ko hari ikibazo. Hashushanyishije ibara ry'umutuku mu buryo butambitse ndetse no mu buryo buhagaze hashushanyishije ibara ry'ubururu. Biragaragara ko ku maguru ye afite ikibazo.

Umuganga wambaye impuzankano, itaburiya y'umweru, afite ikintu kimeze nk'igi mu kiganza cye, yambaye karuvati ndetse n'ishati y'umweru, yambaye n'utwuma tw'abaganga mu ijosi rye tumufasha gusuzuma indwara zinyuranye.

Icyumba cyiza cyo kwa muganga gifite hasi amabara y'ubururu hari imashini yifashishwa mu gusuzuma uburwayi bw'abantu ndetse n'imiti itandukanye iri mu bikoresho bifite amabara atandukanye ubururu, icyatsi ndetse n'umutuku.

Umukobwa mwiza ufite isume ku rutugu, yambaye isengeri y'ubururu, ukuboko kwe kumwe yakumanuye agufatisha ku bibero, ukundi gufashe icupa ryiza ry'amazi, arimo kuyanywa.

Igice cy'umubiri w'umutuku gishushanyije neza, haragaragara umuhogo umanuka. Bishushanyije ku cyapa cy'ibara ry'umukara, biragaragara ko ari mu mubiri w'umuntu.

Umukobwa wambaye agakabutura k'icyatsi ndetse n'agasengeri k'icyatsi, yazamuye ukuguru kumwe araguhina amaboko ye ayafatisha mu mavi y'ukuguru yazamuye ahagaze ku kuguru kumwe biragaragara ko ari gukora siporo.

Umusore wambaye isengeri y'umukara, ndetse n'ikabutura. Akaguru kamwe yagahinye akandi arakazamura, amanura amaboko ye ayafatisha mu mavi y'ukuguru kwe kumwe, arimo gukora siporo.

Umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse n'ishati y'impuzankano, yambaye ga mu ntoki ze, afatishije akaboko kamwe ku mutwe w'umurwayi uryamye ku gitanda akandi yagafatishije ku mugongo we, biragaragara ko ari kumusuzuma ngo arebe uko ubuzima bwe buhagaze.

Abantu benshi bahagaze bambaye udutambaro tw'umweru imbere yaTwo hariho imisaraba y'umutuku ndetse n'umuntu umwe wicaye warambirije amaguru nundi umufashe mu ijosi wambaye ijire y'umutuku biragaragara ko ari kumutoza gukora siporo, siporo ni ingenzi mu buzima bw'umuntu iyo ukoze siporo bituma ugira amagara mazima.

Umuntu warambuye akaboko ke afata akantu kari nk'akarimo amazi agafatisha ku kaboko, biragaragara ko ari gukora siporo yo kunanura imitsi kugira ngo arebe ko amaraso yakomeza gutembera neza mu mubiri.

Igikoresho cyo kwa muganga cyifashishwa n'abaganga gikozwe nk'ikibuni, gicomekeranyijeho insinga zitandukanye, hejuru ku rutsinga hariho ibara ry'ubururu, cyifashishwa na muganga mu gusuzuma indwara zigiye zinyuranye z'abarwayi.

Umuforomo wambaye udufashantoki tw'umweru, ndetse n'impuzankano y'ubururu, yicaye, imbere ye hahagaze umurwayi, ari hagati mu byuma, umuganga ari kugenda amurebera uko amerewe, uwo musore yafatishije intoki ze ku twuma tubiri.

Igishushanyo kiriho umuntu ufashe igikombe uri gusuka amazi mu kirahure, kunywa amazi ni ingenzi mubuzima bw'umuntu nkuko tubibwirwa na muganga. Umubiri w'umuntu ugizwe n'amazi n'amaraso rero iyo unywa amazi menshi bigufasha gukora neza mumubiri wawe.

Umukobwa wambaye ikabutura ndetse n'akantu gakingirije ku mabere ye, yarambuye amaguru ye yombi, amanura ibiganza bye abifatisha ku maguru umugongo arawuheta. Biragaragara ko ari gukora siporo. Siporo ni ingenzi mu buzima bwacu nkuko tubibwirwa na muganga, bituma uyikora ubuzima bwe bugenda neza.

Abagabo babiri bapfukamishije ukuguru kumwe kumwe bari kuganiriza undi ubari hagati kugira ngo bamenye ikibazo cyo afite, biragaragara ko yari ari muri siporo kuko yambaye kasike, akaza kugiriramo ikibazo.

Abagabo batatu bahagaze babiri bambaye amajire y'umuhondo arimo uturongo, umwe afashe umusore wambaye isengero y'umutuku wamanuye ikiganza cye agifatisha ku bibero mumayunguyungu arimo kumusi......

Umusore muremure, ufite umutsatsi mukeya n'ubwanwa buke, yambaye ekoteri mu ijosi, yambaye umupira w'ubururu, ukuboko kwe kumwe yakumanuye agufatisha mu mayunguyungu, ukundi agufatisha icupa ryuzuyemo amazi, arimo kuyanywa.

Ibyuma byifashishwa muri siporo, ndetse iruhande rwabyo hateretse amasahani atatu, ariho imbuto zitandukanye, amagi, imineke ndetse na tungurusumu byifashishwa iyo umuntu amaze gukora siporo.

Umuntu wafatishije ku kiganza cye cy'iburyo akantu kari mu ibara ry'icyatsi, biragaragara ko ari kugerageza kunanura umubiri we, ari gukora siporo. Gukora siporo ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo amaraso abashe gutembera neza mu mitsi.

Umusore muremure uhagaze yambaye inkweto z'umweru ndetse yambaye n'uturindantoki, ahagaze mu cyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo zinyuranye zubaka umubiri, haba ku magufa ndetse no kugorora imitsi.

Umusore wambaye ekuteri mu matwi, wambaye agapira k'umweru, afashe icupa ry'amazi mu ntoki ze ari kuyanywa, kunywa amazi ni ingenzi mu buzima bwa buri muntu nk'uko tubishishikarizwa na muganga kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kumera neza.

Umukobwa wambaye agasengeri k'umuhondo yazamuye ibiganza bye hejuru, yambaye isaha, yambaye ekuteri mu matwi, ari kureba imbere, arimo gukora siporo, siporo ni ingenzi mu buzima bw'umuntu kugira ngo imitsi ibashe kugororoka ndetse n'imikaya bikore neza.

Umurwayi wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, yicaye ku ntebe yafunze igipfunsi, akaboko ke kamwe arakarambura agakoza ku bibero, umuganga wambaye itaburiya y'umweru afashe akaboko ari kugakanda.

Umuntu wicaye yarambuye akaguru kamwe akandi aragashinga azamura ipantaro afata ukuboko kumwe agufatisha ku kuguru ukundi agufatisha akantu kari mu ishashi ari kugenda yikandakanda ku kabombomori.

Ibara ryiza ry'umutuku ririho amagambo yandikishije inyuguti z'umweru, Pain Relief, hariho amacupa meza atondetse ku murongo, arimo umuti, afite ibara ry'umweru, ashushanyijeho ibara ry'umukara.

Utwuma tubiri turi mu ibara ry'ikigina, ndetse n'imbuto zitandukanye zirimo amarongi y'umuhondo, ndetse n'izindi mbuto z'umutuku byifashishwa iyo umuntu amaze gukora siporo, kugira ngo umubiri wongere usubirane isukari watakaje.

Umugabo wambaye umupira w'umukara ufiteho utubara tw'umweru yafashe ibiganza bye abifatisha ku nkokora z'undi muntu, ari kumusuzuma akaboko kugira ngo arebe ikibazo gafite.

Umusore wambaye inkweto z'umweru, itiriningi ndetse n'agasengeri, yarambuye akaguru kamwe akajyana inyuma, akandi agashinga imbere, amanura ibiganza bye abifatisha ku mavi y'akaguru ke yashyize imbere, yambaye ekuteri.

Icyumba cyiza cyo kwa muganga giteguye neza kirimo imashini yifashishwa n'abaganga mu gusuzuma ubuzima bw'umurwayi, ni byiza kwisuzumisha mbere yuko indwara ikuzahaza kugira ngo uvurwe hakiri kare.

Umuntu uryamye hasi uri mucyumba cyijimye yambaye ikabutura y'umukara ndetse n'agapira k'amaboko magufi, araryamye yarambirije yazamuye ukuguru kumwe ukundi araguhina biragaragara ko ari gukora siporo.

Abagore bane bari gukora siporo zitandukanye aho umugore umwe yarambuye ibiganza imbere, amaguru ye asa n'ayahinnye, uwundi yarambuye amaboko ye ayaganisha inyuma, agatuza agashyira imbere, undi ari kureba iburyo bwe amaboko ye yayarambuye.

Utuntu twiza tuzinze twifashishwa mu gukora siporo, kamwe kari mu ibara ry'umutuku akandi mu ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'ubururu, kamwe kasambutse kazinze ku kuboko k'umuntu kamufasha kugira ngo imitsi ibashe gutembereza amaraso neza.

uUmukobwa wambaye isengeri y'ubururu ufite imisatsi ipfunditse, afite icupa ry'amazi ari kuyanywa, nk'uko muganga abitubwira amazi ni isoko y'ubuzima, umuntu aramutse yabuze amazi mu mubiri we yagira ibibazo bitandukanye.

Umukobwa wicaye, wambaye isengeri ye ndetse n'ipantaro y'umukara, wahinnye akaguru ke k'ibumoso, arambura akaguru ke k'iburyo, amanura ikiganza cye cy'iburyo agifatisha ku mano, amanura n'akaboko ke k'ibumoso agafatisha hagati mu kaguru yarambuye. Biragaragara ko ari gukora siporo.

Igare rifite amapine rifite n'intebe yo kwicaraho, n'iyo kwegama, rifite utuziga tw'ubururu biragaragara ko ari igare ryo kwa muganga, rihabwa abafite ubumuga kugirango ngo babashe kugenda.

Uruziga rushushanyije neza rurimo imashini nziza yo kwa muganga, ifasha mu gusuzuma kugira ngo bamenye uburwayi umuntu afite, ifite amabara y'umukara ndetse n'umweru ku mpande zayo handitseho amagambo.

Umukobwa mwiza muremure wambaye agapira ka oranje, yambaye ekuteri mu matwi yafatishije akantu ku kaboko ke kamwe agafatisha ku nda, akandi kaboko ke gafashe icupa ry'amazi meza arimo kuyanywa.

Umukobwa wambaye agasengeri k'ubururu ufite imisatsi myinshi yambaye ekoteri mu matwi ye, afashe icupa ry'amazi mu kiganza cye ari yanywa arizihiwe rwose, bigaragara ko ari afite inyota.

Umukobwa mwiza wasutse imisatsi wambaye akantu k'ubururu hejuru ndetse n'ipantaro y'ubururu yicaye ararambiriza amanura amaboko ye, ayafatisha ku mano biragaragara ko ari gukora siporo.

Ukuguru k'umuntu gukandagiye hasi, ku kabombambari ke hashushanyishije ibara ry'umutuku ndetse n'ubururu, bigaragara ko hagize ikibazo ni byiza kwihutira kwa muganga igihe wumva ubuzima bwawe butameze neza.

Umusore mwiza w'ibigango, wambaye umupira w'umweru, yambaye ekuteri mu matwi, afite umutsatsi mukeya, ukuboko kwe kumwe yakumanuye agufatisha ku bibero, ukundi arakuzamura gufashe icupa ry'amazi arimo kuyanywa.

Umugabo umwe wambaye kasike y'umuhondo, agapira k'umweru, n'ikabutura y'umuhondo, wateye igipfunsi mu nda undi wambaye ikabutura y'umuhondo n'umupira w'umutuku na kasike y'umutuku agerageza kugikuramo bigaragara nkaho ari kwirinda.

Umugabo wicaye wambaye agapira k'umukara ndetse n'undi uryamye wambaye ikabutura ngufi n'amasogisi n'umupira w'umweru, wazamuye akaguru agashyira ku rutugu rwa mugenzi we undi na we amufata mu matako.

Umugabo wicaye wambaye ikabutura y'umukara ndetse nisengeri y'umukara, afashe icupa mu kiganza cye ari kunywa amazi, ibumoso bwe hahagaze umukobwa wambaye ikabutura y'umukara ndetse n'agasengeri yazamuye amaboko mu kirere, imbere yabo hari ibikapu byabo.

Urukweto rwiza rufite ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'umutuku, rufite amarasi y'umukara, baro nziza ifite ibara ry'umweru ndetse n'iry'umukara, akagozi bifashisha mu gupomba baro, kameze neza.

Umukobwa wambaye isengeri hejuru yambaye ekuteri, afite imitsatsi isutse, ukuboko kumwe yaguhiniye mu mugongo afata ukundi agufatisha ku nkokora z'ukuboko yahiniye mu mugongo, yambaye isaha y'umukara ku kaboko.

Imashini nziza yo kwa muganga yifashishwa na muganga kugira ngo asuzume arebe uko umubiri w'umuntu uhagaze, iri mu mabara meza y'umweru ndetse iteretse ahantu heza hateguye neza, hafite isuku.

Icyumba cyiza giteguye neza hasi gifite amakaro, kirimo ibyuma bitandukanye bifite amabara anyuranye umukara ndetse n'umuhondo byifashishwa mu gukora siporo kugira ngo imitsi n'umubiri wacu bibashe gukora neza.

Icyumba kirimo ibyuma byinshi bitandukanye by'amoko yose byifashishwa mu gukora siporo, umusore uhagaze wambaye agapira k'umukara ndetse n'ipantaro ya kaki, afatishije icyuma amaboko ye yombi, imitsi yayireze arimo kukizamura.

Ishyamba ririmo imiti itandukanye, imwe ifite amabara y'umweru, indi ifite amabara y'umukara n'indi ifite amabara y'icyatsi, biragaragara ko ari ibyatsi byatewe kugira ngo bizifashishwe mu gutunganya imiti ifasha mu kuvura abarwayi.

Igihingwa cy'igikakarubamba giteye ahantu heza cyakuze gifite amashami manini n'utundi dutoya dushamikiyeho. Igikakarubamba ni igihingwa gihingwa kugira ngo kizifashishwe mu gutunganya umuti uvura indwara zitandukanye cyane cyane ibiheri.

Igiti gitohagiye biragaragara ko giteye ahantu heza gifite amababi manini, n’umuti wifashishwa n'abaganga ba gihanga mu kuvura indwara zifata imyanya itandukanye.

Imiti ya gihanga itandukanye, igiye iri mu dukangara, harimo iy'amabara y'umuhondo, ay'ubururu, aya kaki, ndetse yamaze gutunganywa kugira ngo yifashishwe n'abaganga ba gihanga mu kuvura indwara zitandukanye.

Icyatsi cyiza gitohagiye gifite amababi manini y'icyatsi, giteye ahantu heza cyitaweho cyane kugira ngo kizifashishwe n'abavuzi ba gihanga mu gutunganya no gukora umuti uvura indwara zitandukanye.

Isekururo ndetse n'umusekuzo wayo ndetse n'imiti y'ubwoko bwinshi butandukanye iri mu mabara y'umweru ndetse n'ay'umukara, biragaragara ko ari imiti yifashishwa n'abavuzi ba gihanga mu kuvura indwara zitandukanye.

Igikakarubamba kirambitse ndetse n'umuti wamaze gutunganywa neza uri mu macupa y'amabara atandukanye, amwe ari mu macupa y'umweru afunikishije imifuniko y'umweru, n'andi ari mu macupa y'umuhondo afunikishije imifuniko y'umutuku.

Icyatsi kiranda gitewe ku butaka bwiza, gifite amababi manini y'icyatsi ndetse n'indabo z'umutuku zifitemo hagati utuntu tw'umuhondo, biragaragara ko cyatewe ahantu heza kugira ngo kizifashishwe gukuramo umuti wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Icupa ry'ibara ry'icyatsi ripfundikije umufuniko w'icyatsi, ririmo umuti w'icyatsi kibisi, ririho icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi cyanditseho umuharavumba. Biragaragara ko ari umuti wamaze gutunganywa kugira ngo wifashishwe mu kuvura indwara.

Amacupa atandukanye, harimo iry'ibara ry'umuhondo, ndetse n'icupa riri mu ibara ry'icyatsi, hirya y'aho hashushanyije ibyatsi by'imiti itandukanye, biragaragara ko ari imiti yifashishwa n'abavuzi ba Gihanga mu kuvura indwara zitandukanye.

Icupa rigufi ry'umukara rifunikishije umufuniko w'umuhondo rifite icyapa gishushanyijeho kiri mumabara y'umuhondo, umutuku n'umweru biragaragara ko ririmo umuti.

Ibiti bihagaze ndetse munsi yabyo hari ibyatsi by'amabara atandukanye umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, biragaragara ko ari imiti yatewe yifashishwa n'abavuzi ba gihanga mu kuvura indwara.

Icyatsi giteye ahantu heza gitohagiye gifite amababi maremare y'icyatsi, hejuru ku mutwe ari umuhondo kigaragara nk'aho cyitaweho cyane kugirango kizifashishwe mu kugogora indwara zitandukanye.

Imiti yamaze gutunganywa iri ku murongonko neza, imbere yayo yanditseho aruveroveraserizi, bigaragara ko ari imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ishushanyijeho igihingwa.

Igishushanyo kiriho ubwoko bw'imiti itandukanye cyanditseho foreva rayiti yutera, biragaragara ko ari imiti inyuranye yifashishwa n'abaganga ba gihanga mu kuvura indwara, iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'ubururu.

Ibara ryiza ry'icyatsi risa neza hateretse icupa ry'umweru ripfundikije umufuniko w'umweru ririmo umuti, hashushanyijeho igikakarubamba gisa neza gifite amashami yacyo.

Umugabo uhagaze ahantu heza yambaye umupira w'icyatsi ufite ikora ry'umuhondo, afashe mu kiganza imiti itandukanye y'ibyatsi, yambaye ipantaro y'umukara inyuma ye hari inzu nziza ifite ibara ry'ubururu.

Igiti giteye ku butaka, gifite amashami afite amababi y'icyatsi kibisi, ndetse biragaragara ko ari igiti cyatewe, kigaragara nk'aho ari umuti wifashishwa n'abavuzi ba gihanga, mu kuvura indwara zitandukanye.

Igiti kiranda ku butaka gifite amababi y'icyatsi ndetse n'uturabo tw'ubururu hagati y'utwo turarabo harimo utuntu tw'umuhondo, biragaragara ko ari umuti wa gihanga wifashishwa n'abavuzi ba gihanga mu kuvura indwara zitandukanye.

Imbuto ziri ku meza, hariho urubuto rurambitse ku meza rw'ironji ndetse n'urundi rwamaze gutunganywa ruri mu gasahane, biragaragara ko rugiye kwifashishwa mu kuribwa kugira ngo rutange ubuzima.

Agashushanyo keza, kari mu ibara ry'umutuku, harimo amagambo yandikishije ibara ry'umweru mu ibara ry'umukara immune health, icupa ririmo umuti rifunikishije umufuniko w'umutuku, rishushanyijeho igikakarubamba.

Amacupa y'umuhondo, ay'umweru, ay'ubururu azengurutse aka jardin kameze neza karimo imiti itandukanye. Amacupa amwe apfundikije imifuniko y'umweru, biragaragara ko ari imiti yamaze gutunganywa yifashishwa mu kuvura indwara.

Ibyatsi biteye ahantu heza biratohagiye bifite amababi manini biragaragara nk'ibyatewe neza kugira ngo bizifashishwe mu gutunganywamo umuti uvura abarwayi.

Igiti cy'amababi manini giteye ahantu heza cy'umuravumba cyifashishwa n'abavuzi ba gihanga mu kuvura indwara zitandukanye, gifite amababi y'icyatsi kandi agaragara neza.

Umugabo w'igikara wambaye umupira w'umweru ufite uruhara, ari gusogora ibyatsi, ahagaze rwagati mu ishyamba, biragaragara ko ari umuganga uri gushaka umuti wo kuvura abarwayi.

Igiti kigaragara neza giteye ahantu heza gifite amababi afite ibara ry'umuhondo ndetse n'afite ibara ry'icyatsi, biragaragara ko cyateguriwe kuzakurwamo umuti wo kuzifashisha mu kuvura indwara.

Imiti y'amoko atandukanye yifashishwa n'abaganga ba Gihanga mu kuvura indwara, imwe iri mu ibara ry'umuhondo, iyindi iri ibara ry'umutuku, n'indi iri mu ibara ry'icyatsi, biragaragara ko yifashishwa mu kuvura indwara.

Ibyatsi byiza biteye ahantu heza harimo ibirebire bifite uruyange rw'umweru, byitaweho kugira bizafashe mu gukurwamo imiti yifashishwa n'abavuzi ba gihanga, mu kuvura indwara zinyuranye.

Umuntu ufatishije amaboko ye ku isekuru yambaye imyenda y'icyatsi, iyo sekuru irimo amobokoko y'imiti anyuranye, biragaragara ko ari umuvuzi wa gihanga wifashisha iyo miti kugira ngo avure indwara.

Igiti giteye neza kitaweho cyane gifite amababi meza y'icyatsi, giteye mu ishyamba kugira ngo kizifashishwe n'abavuzi ba gihanga kuvura indwara zinyuranye zifata abantu.

Urubuto rw'ipapayi ikaswe neza, mu nda ifite imbuto z'umukara ndetse n'igice cy'umutuku, imaze gutunganywa kugira ngo ibashe kuribwa, itange intungamubiri mu mubiri w'umuntu.

Ahantu mu kinani hariyo ibyatsi byinshi, ndetse n'ukuboko gufashe ku giti gitewe neza, ubona cyarafumbiwe, gifite amababi manini y'icyatsi, kugira ngo kizifashishwe mu gutunganya umuti uvura indwara.

Umuntu wambaye imyenda y'umukara uri hagati mu gashyamba, imbere ye hari igiti kiri kumukingiriza no hirya ye hari imiti myinshi y'ubwoko bunyuranye, biragaragara ko ari umuganga wa gakondo uri gushaka umuti wo kuvurisha indwara.

Igishushanyo cyiza gifite amaguru atatu n'ukundi kwa kane kwihinnye kimeze nk'inzovu, munsi hashushanyijemo amagambo, Akagera medicines bigaragara ko ari uruganda rukora umuti uvura indwara z'inyuranye.

Utuntu turi nka kare dutanu turi mu matsinda ndetse n'utundi turunze mu ibara rizamuye ry'icyatsi, hirya hari ibara ry'umuhondo ryanditseho amagambo ashushanyijeho akantu kameze nk'akanyoni.

Ahantu hateguye neza hariho amabara atandukanye, umuhondo, umutuku ndetse na oranje, hateretse amacupa arimo umuti ashushanyijeho igikakarubamba, amwe y'umweru n'andi y'umuhondo.

Igiti giteye ahantu kizengurukishijwe n'utubuye, biragaragara ko ari umuti watewe kugira ngo uzifashishwe kuvura indwara, gifite utubabi dutoya turi mu mabara y'icyatsi agaragara neza.

Imiti yamaze gutunganywa kugirango ivure abarwayi, iri mu macupa atandukanye, icupa rimwe ry'umweru, rifunikishije umufuniko w'umweru, ririho amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku n'ayandi macupa maremare y'umweru, afunikishije imifuniko y'umweru, ishushanyijeho igikakarubamba.

Ibyatsi bihinze ahantu heza bigaragara ko ari umuti bifite amababi y'icyatsi kibisi ay'umuhondo ay'umweru ay'umutuku, bigaragara ko ari umuti wifashishwa mu kuvura indwara.

Amacupa arimo imiti itandukanye, amacupa amwe asa icyatsi, ayandi asa ubururu n'ayandi., biragaragara ko ari imiti ya gakondo yamaze gutunganywa kugira ngo yifashishwe mu kuvura indwara.

icupa ryiza rya kaki, ripfunikishije umuvufuniko w'ubururu, rishushanyijeho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, ririmo umuti wamaze gutunganywa kugira ngo wifashishwe mu kuvura no kurinda indwara zitandukanye.

Ibara ryiza ry'umukara, icupa ririmo umuti rifungishije umufuniko w'umweru ryanditseho amagambo imbere ya feva, ririmo umuti wifashishwa na muganga kugira ngo avure abantu indwara zitandukanye.

Imiti myinshi yamaze gutunganywa, iri mu macupa afungiye mu mashashi, amacupa afite amabara atandukanye, umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu. Biragaragara ko ari imiti ya gakondo yifashishwa mu kuvura indwara.

Imiti ifungiye hamwe ya saruwe, biragaragara ko ari umuti w'igihingwa kimwe cya tungurusumu, igiye ifungiye ahantu hamwe iragaragara mu ibara ry'umweru, kandi biragaragara ko batari bayikoraho.

Amacupa atandukanye arimo imiti inyuranye, amwe magufi y'umukara ashushanyijeho icyapa cy'umuhondo n'irindi rinini, rifite icyapa cy'umuhondo hejuru n'ayandi ashushanyijeho igikakarubamba.

Amacupa menshi atandukanye atondetse neza ku murongo agiye afite amabara atandukanye amwe ari mu mabara y'icyatsi andi ari mu mabara y'umuhondo, umutuku, ubururu ndetse n'umweru ni umuti wamaze gutunganywa neza kugira ngo uzifashishwe mu kuvura indwara.

Igiti gifite amababi yi'cyatsi yererutse n'ikindi gifite amababi manini yi'icyatsi imbuto zirambitse ahantu hamwe ndetse n'ibitoki byamaze guhagurwa kuri nyina birambitse ahantu hamwe.

Icupa ry'umweru, ripfundikije umufuniko w'umweru, ririho icyapa cy'igishushanyo gishushanyijeho ibyatsi bitandukanye, bigaragara ko ari umuti wamaze gutunganywa, ukomoka ku bihingwa kugira ngo wifashishwe mu kuvura indwara.

Imiti ya gihanga iri mu moko atandukanye amwe n'amababi meza, iyindi n'imiharavumba, indi n'imbuto ziteye neza zitaweho kugira ngo zizabashe gutunganywamo umuti uvura indwara.

Ibyatsi bisa n'ibyumye, bifitemo utubara tw'umutuku ndetse n'ibyatsi bihinze bifite utubabi dutoya, imbuto zamaze gutunganywa ziri ahantu hamwe ndetse n'icyuma, amababi manini nayo yamaze gutunganywa ari ahantu heza.

Ibiti biteye ahantu heza byitaweho biravomererwa biranafoherwa, kugira ngo bizifashishwe mu gutunganya imiti ivura ikanarinda indwara zitandukanye zifata abantu.

Icupa ryiza ry'umweru riteretse ahantu heza ripfundikije umufuniko w'umweru, ririmo umuti wamaze gutunganywa, ku ruhande rwaryo rifite icyapa gishushanyije mu ibara ry'ubururu ryanditseho amagambo.

Imiti y'amabara atandukanye harimo iy'umutuku, iy'icyatsi ndetse n'ubururu yamaze gutunganywa kugira ngo yifashishwe mu kuvura indwara zitandukanye z'abantu.

Umugabo n'umugore bari kurebana bashikamirije amaboko yabo kumeza harunze imiti y'amoko atandukanye, imwe iri mu macupa y'umukara afunikishije imifuniko y'umweru, indi iri mu macupa y'umukara afunikishije imifuniko y'umutuku.

Imiti iri mu byiciro bitandukanye ikomoka ku bihingwa, bigaragara ko yamaze gutunganywa kugira ngo yifashishwe mu kuvura indwara zitandukanye, imwe ifite amabara y'umuhondo, indi y'umutuku, indi ifite ay'icyatsi kibisi.

Amacupa atandukanye arimo imiti, icupa rimwe rifungishije umufuniko w'ubururu, biragaragara ko harimo umuti ndetse hari n'igishushanyo cy'umuntu ufite ikibazo cy'umugongo. Mu mugongo hashushanyishije ibara ry'umutuku, bigaragara kuri iyi foto ko hariho ikibazo cy'umurwayi waba urwaye umugongo ndetse n'umuti wamuvura.

Imiti iri mu macupa atandukanye, harimo icupa ry'umweru rifunikishije umufuniko w'umweru, n'icupa ry'umuhondo rifunikishije umufuniko w'umutuku, biragaragara ko ari umuti wa Gakondo wamaze gutunganywa kugirango ngo wifashishwe mu kuvura abarwayi.

Igiti cy'inganzamarumbo, gifite udushami dufite amababi meza cyane, cyitaweho kugira ngo kizakurwemo umuti uzifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zifata imyanya y'ubuzima bw'umuntu.

Ibyatsi by'amabara atandukanye ndetse n'ibiti binyuranye. Hari igiti gifite amabara ajya gusa umweru ariko afitemo utubara tw'ubururu ndetse n'ibindi biti byo mu ishyamba. Biragaragara ko ari imiti ya gakondo, abavuzi bakoresha mu kuvura indwara zitandukanye.

Imiti iri mu mabara atandukanye, umuhondo, umutuku, ubururu, icyatsi, bigaragara ko ari imiti yakomotse ku bihingwa, yifashishwa n'abaganga ba gihanga mu kuvura indwara zinyuranye.

Ikiyiko kirimo ikintu kimeze nk'umutobe cyamaze gutunganywa, hirya hari amababi ndetse harambitse na tangawizi, bigaragara ko hagiye gutunganywa umuti uzifashishwa mu kuvura abarwayi.

Amacupa menshi afite amabara atandukanye, amaremare n'amatoya, amwe y'umutuku, icyatsi, ubururu, harimo umuti wamaze gutunganywa kugira ngo uzifashishwe n'abavuzi mu kuvura indwara zitandukanye.

Amacupa arimo imiti ivura abantu indwara zitandukanye, hakaba hijimye, hakaba hariho ibipapuro byamamaza iyo miti, mbese twashishikariza buri muntu wese kuba yagura iyo miti kugira ngo bibe byiza.

Amacupa maremare y'umuhondo afunikishije imifuniko y'umutuku, arimo umuti wamaze gutunganwa kugira ngo wifashishwe mu kuvura indwara ,n'andi magufi apfundikije imifuniko y'umweru, arimo imiti inyuranye.

Amacupa atandukanye arimo imiti, hariho amacupa abiri maremare rimwe ku ruhande rw'iburyo irindi kuruhande rw'ibumoso, apfunikishije imifuniko y'umutuku ashushanyijeho igikakarubamba, biragaragara ko imiti iri muri ayo macupa yakozwe mu giti cy'igikakarubamba.

Isekuru irimo umusekuzo wayo ndetse n'amatsinda y'imiti inyuranye ifite amabara y'umukara, umweru, umutuku, biragaragara ko ari imiti yateguwe neza n' muganga, igomba kwifashishwa mu kuvura indwara.

Icupa ririmo umuti, rifunikishije umufuniko w'umuhondo, ririho ibishushanyo kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'utundi dutambitse tumeze nk'inzoka yihinnye umurizo. Biragaragara ko ari umuti wifashishwa mu kuvura uruhu.

Ibyatsi byiza bitohagiye bitewe ahantu heza, bigaragara ko byitaweho kugira ngo bikure, bizifashishwe mu gutunganya no kukora umuti uzifashishwa kuvura abarwayi.

Ikiganza gifashe ikibabi cyiza kiri ku giti, icyo giti kiratohagiye gifite amababi y'icyatsi giteye mu nkengero z'urugo, urabona ko ari umuti wifashishwa n'abavuzi ba gihanga mu kuvura indwara.